Icyapa cyamamaza gisa umweru ahantu hose, usibye amagambo yandikishije umukara ku ruhande rw'iburyo ndetse n'ay'ubururu. Harimo ikiganza cy'umuzungu gifashe umutaka utukura.

Icyapa kiriho ubukangurambaga bwerekana ko hagezweho igihe cy'imvura. Kuragaragaraho ifoto y'inzu, isa nkaho iri munsi y'umusozi, hejuru yayo hari indi ifite ibara ry'umuhondo, ndetse n'ibimashini bikora umuhanda.

Icyapa cyamamaza kiriho amagambo agira ati ubwishingizi bwihariye kandi buhendutse kumatsinda n'ibigo bitoya kiriho ishusho y'umukobwa ufite imisatsi igiye inyuma.

Icyapa cyamamaza kiriho umuryango ugizwe n'umugore umugabo, ndetse n'abana babiri barimo umuhungu n'umukobwa, bose bari kumwenyura ndetse kuri cyo handitseho ngo turi kumwe.

Nicyapa kinini cyamamaza kiriho amagambo agira ati gira abakozi bindahemuka, hariho umudamu uri kumwenyura wambaye ingofero irinda mumutwe kugirango hatagira ibimwituraho agakomereka, yambaye nakantu k'umuhondo.

Icyapa kinini cyane kigabanyijeho uduce tubire kamwe gasize umweru akandi karimo amagambo y'ubururu urundi ruhande ruriho ikibatsi cy'umuriro inyongi iri kwaka cyane ku buryo yatukuriranye.

Icyapa kinini cyamamaza cyanditseho ngo kuruhuka. Kiri mu ibara ry'icyatsi kicayeho umukobwa utuje, uhumirije, wateze amaboko ibingibi bikunze kuruhura ubwonko.

Icyapa cyamamaza ibijyanye n'ubwishingizi bwo kwivuza, kiriho umugabo uryamye kugitanda uziritse agatambaro mu mutwe urwaye ari kumye n'abagize umuryango we harimo umudamu ndetse n'umwana.

Icyapa cyamamaza gifite ibara rinini ritukura cyandikishije amagambo y'umweru ndetse hasi hari imibare yanditseho. Kiriho umwana ufite igiti mu ntoki kifashishwa mu mukino wambaye umupira w'umukara n'ingofero.

Aha hari inzu nziza, ariko idakoreye amasuku neza, ni inzu ifite imiryango, umuryango umwe, ndetse n'idirishya rimwe, umuryango w'umutuku ndetse n'ibirahure by'ubururu, ni inzu iherereye muri Kanzenze, igurishwa kuri miliyoni cumi na zirindwi.

Ishusho ya telefone igaragaza ingengabihe, amezi ndetse n'imyaka biri kugenda bikurikirana iragaragaza ko umuriro wayo ugeze kuri mirongo itanu n'icyenda ku ijana, naho tukaba turi ku i saa yine n'iminota makumyabiri n'itatu.

Inyubako nziza cyane itanga amacumbi kandi ikaba yafasha abayigana ikaba ifite ahantu heza haba aho kogera ibyumba byiza cyane.

Ni ishusho ya terefone iri mw'ibara ryirabura hejuru muruhande rw'ibumoso haratwereka ko turi kw'i saa saba na mirongine n'itanu naho iburyo hejuru hari kugaragaza ko umuriro ugeze kuri makumyabiri kw'ijana.

Ishusho ya terefone mo hagati igice cyayo kinini kiragaragaza umweru hejuru gatoya hari ubururu uruhande rumwe rwanditseho ko turi kw'isasaba n'iminota mirongo itatu n'itanu.

Inzu nziza irimo ibikoresho bicuruzwa by'imitako. Hari amahembe ateze ateretse ku meza ndetse n'udutako tuboshye mu mikenke. Hanze yayo hari urukuta rwubatse mu buryo butangaje rw'amabuye.

Iduka ricuruza imyenda yiganjemo iyabigitsina gore, hari idoze mubitenge igiye itondetse kumurongo iri mubyiciro bibiri harimo icyo hasi ndetse nicyo hejuru hari umudamu uri kumwenyura uhagazemo rwagati.

Abantu babiri bari kureba muri mudasobwa. Umwe ni umuzungu, yambaye ikoti ry'umukara ndetse n'ishati y'umweru. Undi yambaye ubururu, karuvati yiganjemo umutuku n'umukara.

Iduka ry'inkweto zitandukanye higanjemo congo, ndetse n'izindi ziri mu mabara menshi. Hari iz'umuhondo, umweru n'ubururu, ndetse zikaba zipanze neza zose ku murongo.

Iduka ricuruza ibintu bitandukanye birimo imyenda imanitse ku murongo ifite igisenge cy'umweru akabati kamanitsemo imitako nayo igurishwa ikifashishwa mu kumanika ahantu hatandukanye.

Ibikapu byiza bikomeye bipanze mu kabati. Bimwe hejuru ibindi hasi. Hari igiherereye ibumoso hejuru cy'umukara n'ikindi kiri iruhande rwacyo gifite umushumi muremure umanuka ugakora hasi.

Ni imiryanngo myinshi iri ku murongo, ikorerwamo ubucuruzi butandukanye, igaragara ni icuruza imyenda, aho harimo ibishushanyo bikunzwe kuyambikwa kugira ngo uryireba, abashe kuyibengukwa.

Ni inzu irimo imyenda itondetse ku murongo umupira ugaragara imbere n'uw'umweru hari umunzani uturiretseho ibintu uri gupima ihagazemo umukobwa ufite telefone mu ntoki wambaye ipantaro yumweru n'umupira w'umukara

Iduka ry'imyenda, amapantalo arazinze apanze ku murongo ndetse iruhande rwayo hari amashati amanitse, aho biri byose harijimye ku buryo utabasha kubona neza ibyo bintu.

Hamanitse imyenda itandukanye ipanze ku murongo, ifite amabara arimo umutuku, umweru, umukara, ndetse ntabwo igaragara neza aho imanitse.

Iduka ry'imyenda hanze yaryo hateye ibibazanyo bikunzwe kwambikwa imyenda kugira ngo abaza kuyireba babashe kumenya niba yababera. Higanjemo amakanzu atukura ndetse ipantaro y'umweru n'umukara.

Imodoka nshyashya nziza iparitse mu mbuga, inyuma yayo hari inyubako ijyanye n'igihe tugezweho iriho ibirahure by'inshi ndetse ikaba yometseho ibimeze nk'amakaro. Inyuma yayo hari utwuma tw'umukara.

Imodoka nshyashya ifite amapine meza ikaba isa umukara, biragaragara ko ikiri yose inyuma yayo hari uruzitiro ruri kugaragaza umumotari uhetse umugenzi.

Imodoka nziza y'umukara, amapine yayo aranduye, hirya yayo hari izindi z'umweru ndetse n'inyubako z'amagorofa menshi, hakurya yayo hari igiti cy'umuvumu.

Urupangu runini rwagutse rufite amarembo magari ruzengurutswe nutwuma ndetse mimbere harimo imodoka ifite ibyapa ikaba isa umuhondo hari nibindi bintu bimanitse aho.

Abantu bane bafite igifunguzo cya palasitiki kinini, bose buri umwe yagikojejeho ibiganza, ku ruhande ye hari umukobwa uri kumwenyura, wambaye ikoti rirerire ndetse n'agapira gatukura.

Umuhanda w'igitaka iruhande rwawo hari icyapa cy'umuhondo igice cyacyo cyo hejuru kiriho umukara amagambo yandikishije umweru, imbere yaho hari igipangu gifite ibara ryera.

Abantu batatu bafashe ku gifunguzo kinini inyuma yabo hari imodoka y'umukara, uwo hagati yambaye ingofero ndetse n'amadarobindi akaba aramukanyije n'uwo kuruhande akaba ari kumuha igifunguzo.

Hasi n'amakaro acyeye asa neza, imodoka zifita amapine y'umukara ndetse n'irangi ry'umutuku, ebyiri zisa zirahongaho. Inyuma yayo hari izindi nini zitagaragara neza, zisa umweru.

Ni umuntu utagaragara neza ibiganza bye byombi bicigatiye amafaranga mu ntoki adakoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse akaba afite n'ikaramu. Imbere ye hari mudasobwa akaba ari kwakira umuzungu wambaye agapfukamunwa.

Inzu itanga serivise iganwa n'abantu benshi bari ku murongo mu byumba bigiye bitandukanye hari mudasobwa iri kugaragara igice ndetse n'akuma gashinzwe kubara amafaranga imbere yako hari icupa ry'amazi.

Ikigo k'imari gitanga serivise yibijyanye n'amafaranga harimo umuntu mu imbere wakoze ku kamashini gashinzwe kuyabara ndetse nuje kumugana ayategereje afite umupira w'umutuku ku rutugu.

Umugabo wicaye ku ntebe, imbere ye hari ameza apanzeho amafaranga menshi ndetse n'akamashini gashinzwe kuyabara. Ikiganza cye kiri kuri ko kigiye gukuraho inoti zarangiye.

Akuma gashinzwe kubara amafaranga ariko ntayakarimo, ahubwo ateretse imbere ya ko inote ziri mu byiciro, hari iza mirongo itanu ndetse n'ijana, iyi ngiyi ikaba ishushanyijeho imbogo.

Ni ameza ateretseho iparato iriho ibiraha. Iki ni ikiribwa gikundwa na benshi by'umwihariko abakobwa bitewe n'agatazirano kabyo bikaba bibaryohera cyane.

Ni umudamu wambaye akikwiza afite amata mu ntoki, iruhande rwe hari indobo nini isize irangi ry'icyatsi. Hari ameza ateretseho umubirikira ndetse n'akagega k'amata kari inyuma.

Ikiganza gifashe agakombe karimo icyayi, ikiribwa kizwi nka keke gishinzwemo amakanya n'ikiyiko kiri kwisahani. Uyu muntu akaba ari gufata ibya mu gitondo hirya ye haragaragara ikiganza gifashe injerekeni.

Ni aho bacururiza amata. Injerekani y'umweru iriho umubirikira, iri hasi ku makaro. Abantu babiri barimo umukuru ndetse n'umwana bategereje ko utanga amata ayabaha.

Amata ni ikinyobwa gikundwa na benshi aya ari mu byiciro bitandukanye hari apanze neza mudukarito, ayo mu mikebe ndetse hari n'ari mu tubido tw'umweru tureture.

Umugati ni ikiribwa cyiza gikunze kwifashishwa ku bya mugitondo uteretse ku meza, ni umwe ugiye ugabanyijemo uduce dutoduto aho ushobora kugenda udufata mu byiciro bitandukanye.

Akagunguru gato kabika amata aho bayacururiza, hejuru yako yateretse akantu karimo udukoresho tw'isuku ndetse ameza atagaragara neza ariho indobo y'umweru.

Inzu icuruza amata ndetse n'ibindi binyobwa birimo ibikorwa mu mbuto zitandukanye. Imbere hari akagega kajyamo amata yo gucuruza, kanditseho inyange, ndetse kakaba gasa umweru.

Ntahakorerwa ubucuruzi bw,amata ndetse nibindi binyobwa hanze hateye intebe ni imitaka bigararagako abaza kuya hanywera bicara hanze cyangwa bakajya ku yanywera munzu akabariho bayanywera.

Ni iguriro ry'amata rifite amabara y'ubururu hejuru mu gisenge hasize umweru. Akabati kabikwamo ibicuruzwa harimo n'ibindi binyobwa ndetse n'imigati iri muri purasitike.

Amandazi ari mu ndobo, ee! indobo ebyiri ziteretse ku kameza kandi ayo mandazi aba akoze mu ifarini, ndetse bakunda kuyakoresha mu gitondo banywa agacyayi, cyangwa se bagakoresha nk'abarya agasinake.

Ni ubutumwa buri muri telefone ngendanwa, bugaragara ihererekanya ry'amafaranga ritabashije kugenda neza, akaba angana n'ibihumbi bitatu, hari imibare ibigaragaza ndetse n'amagambo yanditse mu rurimi rw'amahanga.

Abantu bane bahagaze mu matsinda abiri bose barahuze. Buri umwe ari kureba muri terefone ye hari uwambaye agapira kari mu mabara y' u Rwanda ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Inyandiko ikunze kugaragara muri terefone ngendanwa cyanecyane iyo ugiye gukoresha serivise yo kwakira cyangwa kwohereza amafaranga bagenda bakwereka; rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu icyo bikora.

Icyapa cyamamaza uburyo bugezweho bujyanye no kwishyura ibicuruzwa hifashishijwe ikoranabuhanga. Hagati mu ricyo hari uturongo tw'amabara y'umuhondo hepfo gato yaho hari umukara ndetse akaganza gato.

Ikiganza kitagaragaza nyiracyo gifite Telefone, inzara zisize neza umweru, naho hagati muri yo hari igice cyo hejuru gisa icyatsi. Iragaragaza neza ibumoso ko turi kw' isatatu na mirongo ine n'umwe.

Inyandiko iri ku rupapuro rw'umweru y'ikigi k'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, iburyo hari akarango kacyo naho ibumoso hejuru hari ikirangantego cy' u Rwanda imbonerahamwe ziri hagati na hagati zigiye zirimo amatariki.

Imbonerahamwe irimu mashini y'ikigo k'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, muri yo hagiye hari ibyanditse mu tuzu bigaragara amatariki ndetse n'iminsi bagiye bishyuriraho ikirangantego kiri ibumoso.

Inyandiko iri muri mudasobwa, hari ibyandikishije indimi z'amahanga. Ariko rugaragaza ko arurw'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro nkuko ikirango cyacyo kibigaragaza. ibumoso harimo ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda.

Inyandiko iri mu rurimi rw'amahanga iri muri mudasobwa. Yandikishije amabara atandukanye, harimo umukara, umutuku ndetse n'umweru. Hejuru gato mu inguni y'iburyo, hagaragaramo amagambo.

Inyandiko iri kurupapuro rw'umweru, igiye iciyemo imirongo ikuvamo utuzu. Iri mu ndimi z'amahanga hejuru umutwe w'amagambo ndetse mu mpande hagiye hariho amafaranga.

Ni inyandiko iri ku rupapuro rw'umweru, yandikishije amagambo y'umukara. Hejuru ku ruhande rw'uburyo hariho ikirango cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro. Naho mu ruhande rw'ubumoso hariho ikirangantego cy'igihugu.

Inyandiko iri muri mudasobwa y'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro nk'uko bigaragara ku nguni iri hejuru iburyo naho ibumoso harimo ikirangantego cy'u Rwanda, hagiye handitsemo ibintu biri mu tuzu.

Inoti y'ijana ikoreshwa mu gihugu cya Kongo ishushanyijeho inzovu ifite amatwi manini munsi yayo hari izindi zitara kugaragara neza ziriho inyamanswa zizwi nk'imparage.

Inote nyinshi zifashshwa ku mugabane w'Uburayi ndetse n'Amerika, zipanze imwe igenda yinjira mu yindi ziri mu byiciro bitandukanye harimo izi jana ndetse n'iza magana atanu.

Amafaranga apanze kumeza andi ari mukiganza cy'umuzungu, hirya haraka amatara n'ubwo hatagaragara neza ariko harimo abantu bari muri iryo duka batoranya ibicuruzwa.

Inoti zitari izo mu Rwanda zipanze mu byiciro bibiri, zimwe ziratambitse, izindi zizigeretseho mu buryo buberamye, zombi ziragaragaza ishusho y'umukambwe wambaye amadarubindi akaba arikumwenyura.

Ni ibiceri byifashishwa mu gukina ibizwi nk'urusimbi, iruhande rwayo hariho utuntu tubiri bazunguza iyo barimo bakina uyu mukino. Bipanze mu byiciro bitatu bigenda bimanukamanuka ku murongo.

Ibiganza bitatu biri guhererekanya amafaranga, bibiri bifashe ku note zifashishwa muri Amerika, ziriho umugabo ufite imisatsi miremire igiye inyuma, ikindi kimwe gifite iz'umuhondo.

Ibiganza bibiri by'abazungu biri guhererekanya amafaranga, akoreshwa mu bihugu by'amahanga. Hariho ifoto y'umugabo ufite imisatsi igiye inyuma. Iruhande hari akuma gashinzwe kuyabara, ndetse n'andi menshi apanze.

Ibiganza by'abazungu biri guhererekanya amafaranga, kimwe gifite ayifashishwa mu gihugu cya Amerika, kiriho ifoto y'umuzungu ufite imisatsi igiye inyuma, ikindi cyakoze ku kirahure.

Ikiganza cy'umuzungu utagaragara, gifashe amafaranga mu ntoki akoreshwa mu gihugu cya Amerika. Ariho ishusho y'umugabo ufite imisatsi igiye inyuma, bigaragara ko ari mu za bukuru. Ziri ku kamashini gashinzwe kuzibara.

Ibiganza bibiri bitagaragaza nyirabyo, bifite inoti mu ntoki zikoreshwa mu bihugu by'amahanga. Biriho umugabo ugeze mu za bukuru ugaragaza igice cya ruguru gusa, yambaye lineti.

Imbonerahamwe igaragaza uburyo kuvunjisha amafaranga bihagaze ikaba yarashizwe hanze na banki nkuru y' u Rwanda hagiye hariho inyiciro by'ibihugu, nuko avunja avunja ahagaze muri byo.

Umuntu utagaragara neza imbere ye hari amafaranga menshi cyane ari mu byiciro bitatu agiye ahambiriye, andi ayafashe mu kiganza inyuma ye hicaye abantu bahugiye mu kuganira.

Icyumba cyiza gitangirwamo serivise imbere muri cyo hakikijwe n'uturahure ndetse n'ibyuma bifunga aho uyitanga aba yicaye, ku ruhande rw'iburyo hari ikidobo giteretsemo indabyo nk'ikimenyetso cy'umutako.

Inzu ifite imiryango myinshi igiye iriho ibirango byerekana ibikorerwamo, imyinshi muriyo irafunze, usibye umwe uri hirya ufunguye, ariko nawo utagaragara neza, hari utumwa tuzengurutse imbere y'imbuga,...

Ni inzu itanga serivise zitandukanye umuryango wayo hari kwinjiramo umuntu wambaye ipantalo y'umweru, umupira w'amaboko maremare w'ingofero, imbere kuri yo hejuru handitseho ibintu binyuranye bigaragaza ibikorwa biyikorerwamo.

Hejuru y'umuryango wo ugaragara igice gito ariko hejuru hari utwuma tugiye tudambitse ku murongo, hakaba icyapa cyamamaza ibikorerwamo aho mo imbere, uruhande rwose rusize umweru.

Icyapa kiri munyandiko y'ururimi rw'amahanga, cyandikishijweho amagambo manini cyane ari mw'ibara ry'umweru ariko aho ari harimo ibara ry'umutuku. Hariho nimero ushobora guhamagaraho kugirango bakuyobore.

Ni inzu igaragazako imiryango yayo yombi ifunguye, umwe ikikijwe n' icyuma cy' umutuku n' umweru, hari akandi gatoya gatambikaho ,hejuru hariho amagambo agaragaza ibihakorerwa.

Ni ibyapa byometse kunzu, hagati yabyo hamanukamo itiyo, ijyana amazi kimwe kibanza ibumoso, gishushanyijeho ibikapu bibiri, ndetse n'ishusho y'umuntu ishushanyishije ikaramu. Ikindi na cyo kirimo amabara y'umuhondo.

Inzu itanga serivise zitandukanye hakaba harimo mudasobwa ebyiri zose z'umukara imbere muri yo ikaba isa umweru. Harakamo amatara ariko nta muntu urikugaragaramo yewe ntanuje kwaka serivise.

Umutako mwiza cyane, ukoze mu rubaho, ufite utwiciro dutandukanye ahagenda habikwa ibikoresho, hejuru yaho hateretse ururabyo ndetse n'untu tubiri tumeze nk'ibyansi, ahakurikira hari agasahani karimo utubuto.

Ni icyumba gikorerwamo ibijyanye n'ubumenyingiro. Ameza agaritse ari gukorwa n'umugabo w'umuzungu wambaye isengeri y'umweru. Muri yo harimo ibikoresho byinshi bimanitse n'ibiri hasi yifashisha mu kazi ke.

Intebe nziza zikiri nshya ziteye mu mbuga , zifite amabara atandukanye umukara, ubururu ndetse zirimo n'imisego, hagati hafite ameza hirya hari urukuta rw'amakaro.

Ibirahure by'inzu by'umukara hagati muri byo hagiye hazamukamo utwuma, imbere yabyo hari intebe zikiri nshyashya ndetse zikaba ziri kumwe n'ameza yazo urwicariro ryayo rukaba rusa umweru.

Ni inzu nziza y'icyerekezo irimo zigezweho n'imisego yazo, iri mu mabara atandukanye. Hamanitseho ibishushanyo by'imitako, ku meza, n'intebe biticayeho umuntu hakaba hari mudasobwa.

Inzu yubatse mu buryo bwa kijyambere, irimo ubwogero bwiza butangaje aho ujyamo ukicaramo ugafungura amazi akagutonyangiraho wiyicariye. Hejuru kuruhande hateretse buji irimo kwaka.

Ni nzu z'amagorofa zikikije ahantu hanini, zose zigeretse akarenga gatatu. Hagiye harimo inkingi zizamutse ndetse n'utwuma tuzizengurutse, yaba hagati muri zo ndetse no hejuru.

Icyumba kiberamo inama kirateguye nubwo nta muntu ukirimo, ameza arateguye ndetse n'intebe z'umukara. Hari uducupa tw'amazi twinshi dufite imifuniko y'ubururu hari ndetse n'insakazamashusho itari kwaka.

Inzu ifite irange ry'umweru, igisenge kiza, amdirishya afite ibirahure bitabona, utwuma tuyakikije tw'umukara hirya gato hari n'indi itukura.

Inzu nziza yubatswe mu buryo bujyanye n'igihe isakaje amategura. Hanze yayo hari udukoresho dushinzwe kujyana umuyaga muri yo, ikaba yubakishije amatafari ahiye, ubusitani bwayo buteyemo imitaka n'intebe.

Imyubakire ndetse n'imiturire igezweho bigaragazwa n'inzu nziza. Hari izigeretse zifite imbaraza, ziteyeho ameza y'umutuku ndetse n'intebe z'imikara ziri hanze mu ruganiriro rwaho.

Inzu y'ikerekezo itanga serivise zitandukanye, ikaba ifite igorofa rimwe. Isakaje amategura, yubakishije amatafari ahiye, ndetse n'imirongo y'ubururu igiye irimo hagati. Hanze yayo hari ubusitani buteyemo imitaka.

Ninyubako y'icyerekezo kigezweho ikaba ikora ubucuruzi bwo gucumbikira abantu kubagaburira ndetse no kubaha ibyo kunkwa, iyi izwi nko kuba arimwe muzikomeye mugihugu cyacu cy'urwanda

Inzu nziza iri hoteri yagenewe gucumbikira abantu ndetse bayigana bakayishyura amatara yayo ari kwaka mu mugoroba hanze hateye intebe abantu baganiriramo bafata ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya.

ibiro binini byagutse byicayemo umukobwa umwe hari intebe zacyira ababigana z'umukara n'ameza abiteretse imbere yabyo byiganjemo amabara atukura ndetse inyuma harimo insakazamashusho.

Ni akazu gatoya gakoreramo ibintu bitandukanye harimo serivisi zifashishwa mu ikoranabuhanga, mu imbere gafite ibirahuri ndetse nta muntu urikugaragaramo, iruhande rw'ako haparitse imodoka irikugaragara igice gito.

Inzu y'igorofa ndede igaragaza igice gitoya. Umuryango ufunguye uri gusohokamo umuntu imbere yaho hahagaze undi uri kwitaba terefone iruhande hari ingazi zizamuka zerekeza abantu mu bice byo hejuru.

Inzu ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, hanze yayo hahagaze abakobwa batatu bari kuganira, bose bahuriye ku kuba bambaye umupira w'umweru. Umuryango wayo hatatse ibipurizo by'amabara atandukanye harimo iby'ubururu ndetse n'ibyimihondo.

Ni abantu bicaye mu biro, ku ntebe z'imikara. Ku meza hateretse mudasobwa, umudamu wambaye ibitukura ari kuyandikisha. Hino gato hari uwabitaje, wageretse akaguru ku kandi, na we wicaye.

Abagabo batatu bahagaze barikuganira hagati yabo hari ameza ariho igitambaro cy'icyatsi ndetse n'ururabyo ruri kuriyo, umwe yambaye ishati y'umweru, abandi babiri bateganye uwambaye umupira utukura ndetse n'ikoti.

NI icyapa cyamamaza inzu ikoreramo serivise z'imari umuryango urafunze ariko hejuru yaho hari icyapa kerekana ko ari ku Kicukiro ndetse cyanditseho ngo umutanguha.

Ni ibiro biriho ameza y'umukara n'umweru, apanze ku murongo, hino gato nta muntu wicayeyo ariko hirya hari uwicaye utagaragara wambaye ibintu by'umukara. Inyuma hagiye harimo ibyapa biriho abantu.

Icyapa kinini cyamamaza kiriho ifoto y'inzu iberamo imyidagaduro hano mu Rwanda ikaba imaze kuba igicumbi cyayo. Ku ruhande hariho abahanzi b'ibyamamare bazwiho gukora ibihangano biryohera ababikunda.

Imodoka yicayemo umukobwa wambaye umupira w'umweru ugaragaza ibitugu, ari kumwenyura areba umusore uri hanze yayo, umutegeye ibiganza wambaye ikote n'ishati y'umweru.

Icyapa cyamamaza kiriho umukobwa utunze ikaramu iri mu kiganza k'iburyo ku gahanga afite imisatsi ishwambaguje yambaye rinete. Igitabo kiri mu kiganza k'ibumoso gitukura.

Icyapa cyamamaza kiriho ifoto y'umugabo, urikwishima cyane yambaye ishati mo imbere harimo agapira k'umweru, yabumbuye umunwa, afunze ibipfunsi bibiri, ameze nk'uwunamye, kuricyo handiho andi magambo.

N'ahantu hatangirwa gahunda z'ubukangurambaga. Aho ari abakobwa babiri bari kwakira ababagana ,bose bambaye imyeru hejuru, umwe ugaragara hasi n'ipantaro y'umukara. Bafite ameza ariho igitambaro cy'icyatsi.

Icyapa cyamamaza kiriho umukobwa uri kumwenyura wahindukiye afite imisatsi ijya hejuru, iherena ku gutwi, imbere ye hari inzu itagaragara neza ariko ifite igisenge cy'umukara.

Ni umucuruzi n'umuguzi bari guhererekanya ibiribwa mu isoko, hafi yabo hari umutaka umudamu afite urubuto mu ntoki ari guseka arwereka uje kugura wambaye umupira utukura.

Umuhanda munini wagutse ukikijwe n'inyubako ndende z'amagorofa zigizwe n'ibirahure, imbere yayo hahagaze ibinyabiziga bitandukanye urujya n'uruza rw'abantu na rwo rugenda ruhatambuka.

Ni inyubako ndende yaba mu bugari ndetse no kujya hejuru, ifite amagorofa menshi, ikikijwe n'ibirahure. Hariho ibyapa imbere yayo biri mu mabara y'umuhondo

Isoko rihahirwamo ibiribwa rusange riragaragaza amabati n'igisenge gifite ibyuma, hasi hari ibicuruzwa byiganjemo inyanya nziza, amashu, imboga ndetse n'amavuta.

Isoko rishaje rya kera rifite amabati yamaze kwangirika ariho amabuye ndetse nindi myanda mimbere abacuruzi bategereje abaza kugura imyenda kungazi hegamye umugabo wifashe mumaboko abandi bari gutambuka.

Ni uduka ricuruza imyenda ndetse n'ibikorwa by'ubugeni birimo uduseke ndetse n'udukapu. Harimo kandi imitako abantu bifashisha bamanika mu nzu ndetse no mu biro byabo.

Ubucuruzi buciriritse bukorerwa ahatari mwisoko hicaye umudamu utegereje abaguzi wambaye igitenge uri kumwe na mugenzi we kuko aho bari hadatwikiriye bakaba bafite umutaka imbere yabo hari inyanya, imboga nibindi byinshi.

Isoko ryubakishijwe amabati ririmo utwumba dutandukanye, tugiye turimo ibicuruzwa. Hirya gato hari abantu batagaragara, bari mu bucuruzi bwo kugura no kugurisha.

Isoko rinini ririmo ibiribwa bitandukanye abacuruzi baricaye bategereje abaguzi. Harimo imboga, imbuto, ibitunguru, karoti, amashaza, n'ibindi rifite igisenge gikikijwe n'ibyuma.

Hagati y'amazu maremare y'amagorofa ndetse n'amagufi hari urujya n'uruza rw'abantu, amamodoka aparitse n'ari kugenda ndetse n'abamotari bategereje abagenzi, abantu bari mu bikorwa binyuranye.

Isoko rihahiramo abantu b'ingeri zitandukanye ririmo ibicuruzwa by'amoko menshi inyanya, ibitunguru, amavuta ndetse n'ibindi byifashishwa mu gikoni.

Ubucuruzi bukorewe ahantu heza, bukaba buba butekanye kandi ababukora bukabateza imbere. Izi ni inzu zabugenewe zikorerwamo ibikorwa bitandukanye, imyenda ihagurishirizwa ndetse n'ibindi.

N'inyubako y'igorofa ndende igaragaza igice kimwe, amenshi mu madirishya yayo arafunguye, igizwe mumpande n'ibirahure, hejuru kuriyo handitse inyuguti eshatu arizo K, I na C.

Ni ahantu hacururizwa ibitenge kuva hasi kugera hejuru bigiye bipanzemo uyu ni umwambaro uzwiho kwambara abadamu bakikwiza ndetse bakaberwa mu cyubahiro cyabo bifite amabara atandukanye meza.

Isoko rinini rusange riri kugaragaramo amamodoka, amapikipiki, urujya n'uruza rw'abantu. Ifite igisenge kigiye kinyuranyuranamo gisakaje amabati y'ubururu, mu bari gutambuka hari abambaye imihondo, imyeru, n'imikara.

Akazu gacuruza ibijyanye n'itumanaho harimo ushinzwe kwakira abantu, amadirishya yako yose afunguka agana hejuru aho kari mu ibara ryako ry'umuhondo hanze yako hari umuturage uje kwaka serivise.

Ni akazu k'ikigo gicuruza ibajyanye n'itumanaho gafunguye amadirishya yako yose kakaba gasa n'umuhondo, muri ko hicayemo umugabo ufite ibitabo imbere ye aho ategereje abantu baza ngo abafashe.

Bari kumurongo barahagaze bategereje guhabwa serivise mu iguriro rusange, abenshi bafite terefone muntoki bagiye kwishyura, ushinzwe kubakira imbere ye hari mudasobwa.

Ni akazu gatanga serivise z'itumanaho k'umuhondo, imbere muri ko harimo abakira abajje babagana hanze yako ku ruhande rumwe hari umukobwa wambaye ijipo y'umukara ndetse n'agapira k'ubururu, urundi ruhande rwo hirya ruhagazeho umugabo.

Ni abantu bane barimo babiri batwaye amapikipiki, ndetse n'abandi bari kubishyura hifashishijwe ikoranabuhanga. Bose bambaye udupfukamunwa, ndetse abatwaye amapikipiki bambaye ingofero zibarinda gukomereka.

Ni akazu gato k'umuhondo gatanga serivisi z'itumanaho kazwi nka emutiyeni mu imbere muri ko harimo umuntu urikwakira abaje bamugana akikijwe n'abagabo batatu umwe muri bo uri hagati yambaye umwenda utukura.

Inyubako igeretse iri mu mabara y'umuhondo ndetse n'umweru. Imiryango yo hejuru irafunze iyo hasi irafunguye iri gukorerwamo ubucuruzi butandukanye. Mu mbuga yayo hari akazu k'umuhondo gatanga serivise z'itumanaho.

Akazu gacuruza ibijyanye n'iby'itumanaho, gafite ibara rinini ry'umuhondo. Imbere yako hahagaze abagabo batatu, mu rundi ruhande hari abadamu babiri barangaye.

Ni akazu gatanga serivisi zijyanye n'ibyitumanaho kari mu mabara y'umutuku n'umweru, imbere yako harafunguye ariko urimo ntagaragara, gafite inyuma icyapa kiriho umudamu ufite akantu mu ntoki.

Iruhande rw'umuhanda hateye umutaka w'umuhondo ukorerwamo ibijyanye n'itumanaho, muriwo hahagazemo abagabo batatu bambaye amajire ndetse n'undi umwe utagaragara neza.

Ni ishusho yamamaza ariko iri mu buryo bw'ikoranabuhanga. Iri mu duce dutandukanye, aho akabanza ibumoso kariho ameza ateretseho ibirahure ndetse n'isahani. Iruhande rw'iburyo ruriho umukobwa ufashe ikintu mu ntoki.

Amapikipiki ane ari ku murongo, yose arahagaze. Ahetse utuntu inyuma tugendamo imizigo. Aya akunze kwifashishwa mu gushyira abantu ibicuruzwa mu ngo zabo.

Ibice bitatu by'inyubako biri kugaragara ahacururizwa imyenda imbere hari ibishusho byagenewe kuyambikwa, kugira ngo uyibona abashe kuyipima ifite irange ry'umweri hari ikindi gice giparitseho amamodoka.

Ni umuntu wikoreye akazigo yambaye ikintu cy'umukara n'ingofero, iruhande rwe hariho icyapa cy'umuhondo cyanditse mumagambo y'ururimi rw'amahanga akaba afashe ku kintu gishyirwamo imizigo cy'umweru.

Umuntu uhagaze ari kureba imbere ye yambaye ishati, inyuma ye hari ibyapa biriho amabara y'ubururu yandikishije amagambo y'umweru ku ikora ry'iwe hariho akantu kameze nka mikoro.

N'ishusho ya telefone irimo ibintu byinshi bitandukanye, hagati muriyo harimo akantu karimo amandazi agera mur'atandatu, ari kugaragara, bigaragara ko ariyo ari kwamamazwa. Hari uturango twinshi.

Inzu nziza ijyanye n'icyerekezo, iragaragaramo ibirahuri by'umukara, inkuta z'umweru ndetse n'amakaro akikije aho babika ibikoresho byo mu gikoni. Ikaba ijyanye n'icyerekezo kigezweho.

Inzu nziza y'ikerekezo ifite imbuga yirangiye ikozwe mu buryo bw'ubuhanga kuko hashashemo utuntu turi mu mashusho y'inyenyeri. Ifite inkingi ziri mu ibaraza zizengurutswe n'utwuma.

Ubwiherero bwa kijyambere buri mu cyumba gifite urugi rw'imbaho nziza zigezweho, burapfundikiye iruhande rwabwo hariho n'urwogero rurekura amazi aturuka mu kirere ndetse n'akadirishya.

Icyumba kiza kijyanye n'igihe kigezweho. Gifite urugi rw'imbaho kuruhande ndetse hateretsemo akameza gato. Igitanda kigaragara igice gitoya idirishya ry'umukara.

Inzu nziza y'ikerekezo isize irange ry'umweru. Hari akuma gashinzwe gutanga umuyaga muri yo, itara riri mu gisenge ribona neza. Intebe ziri zonyine ntamuntu uzicayeho ameza y'umukara.

Inzu nziza y'igorofa igeretse igaragaza imiturire igezweho, ifite urupangu rusize umukara, ndetse hagati muri yo hateyemo icyuma kijyana amashanyarazi gitukura.

Inzu nziza ijyanye n'icyerekezo irimo umugabo w'umuzungu wambaye ishati yahinnye amaboko, ari kumwe n'umukobwa uyimutemberezamo agenda amwerekera, ifite intebe nziza z'umweru n'insakazamashusho iri k'urukuta.

Imiturire myiza igezweho, irangwa n'inzu zubatse mu buryo bw'icyerekezo. Iyi ikaba ifite amabara y'ubururu n'umweru, hanze hayo hari ubusitani, ndetse n'ibiti bibasha kuzana umuyaga.

Imbuga nziza yitaruye ishobora guhagararamo zirenga imodoka eshatu, iyi iri kumwe n'inyubako y'icyerekezo, igeretse ifite inyingi zifashe neza hasi bihamya ikimenyetso k'imiturire myiza.

Inzu ijyanye n'icyerekezo, irimo amatara meza agezweho, ntakintu kiyirimo m'imbere, haragaragara idirishya rireba hanze, inkuta zayo zose zisize umweru.

Ni umugabo w'umuzungu wambaye ishati y'umweru akaba yatebeje, umukandara w'umukara n'inkweto zisa gutyo. Ari mu nzu nziza y'icyerekezo agenda ayitemberamo, ifite intebe y'umweru ndetse n'inzu ikaba isa gutyo.

Hanze y'inzu nziza y'icyerekezo, igaragaza imiturire igezweho, ijyanye n'igihe tugezemo. Urupangu rwayo ruriho ibyuma by'umukara bigaragaza imbuga y'inzu. Isize irange ry'umweru.

Inzu nziza isa umweru ahantu hose mu miryango yayo hagiye hariho imvaho zikomeye zifashe inkingi, hari ingazi zizamuka hejuru ndetse n'izimanuka hasi.

Icyumba kiza cy'urwogero kirimo amakaro, ibirahure ndetse amazi uyakaraba ari guturuka mu gikuta aho ufungura akava hejuru. Iruhande hari akantu k'umweru nako bakarabiramo.

Urukuta rurerure rw' umweru, imbere yarwo hariho amazi y' ubwogero ari hasi ,hahagaze mubusitani umuzungu wambaye ishati y' umweru aranatebeza iruhande rwe hari umudamu ufite ibyo amusobanurira.

Inzu nziza yagenewe guturamo cyangwa gucumbikamo ijyanye n'icyerekezo kizweho, ifite amatafari ahiye ndetse mu ibaraza ryayo harimo irange ry'urwererane ikaba isa neza.

Icyumba kirimo igitanda kitaryamyeho umuntu, gishashe neza kiriho umusego, umutwe wacyo urapfutse hose, urukuta rurasa umweru ndetse n'igisenge ni uko, i ruhande harihi irido.

Inzu nziza zigezweho ziba zifite ubwogero mu nzu, ubu ni ibirahure ndetse amazi akaba aturuka hejuru, iruhande gato hari isume umuntu yihanaguza iyo arangije.

Ikirahure gikunze kugaragara mu bwogero bw'inzu, hasi yacyo hari aho ufungura amazi ugakaraba intoki cyangwa se ukaba wakwiborosa. Hari umuntu uri kwirebamo utagaragara, giteye ku gikuta cy'umweru.

Inzu nziza igezweho igaragaza imiturire iteye imbere. Urupangu rwayo rufite ibara ry'umukara naho yo irasa umweru ifite ibirahure ndetse n'akabaraza keza.

Imiturire myiza igezweho irangwa ninzu zubatswe muburyo bwiyiminsi, iyi ifite inkingi eshatu zifatanye zisa umutuku nizindi ebyiri ziri mumpande ikaba iriho nutwuma.

Inzu nziza zijyanye n'icyerekezo zubatse mu buryo bugezweho, imwe igaragara ifite umuryango wagutse ndetse n'igisenge cyiza gifite ibiti. Hirya gato har'indi igaragaza idirishya

inzu nziza y'ikerecyezo iri kwakamo amatara yo hasi, ifite utwuma twiza dutangira abantu bari hejuru mwigorofa kugirango bataba bakwitura hasi, ikaba ifite ingazi zizamuka zijya hejuru zigaragara ho gato.

Icyapa cyamamaza. Ahagana hepfo hariho imodoka nziza y'umweru, iparitse ahantu hari amazi. Hejuru hatangira amagambo agira ati " hano tubafiteye serivisi zikurikira."

Inzu za kijyambere, ziba zifite aho bogereza amasahani munzu, ndetse amazi akaba ba barimo afite uburyo buyasohora bitarinze kujya kuyamena. Haba hari kandi utubati tubikwamo ibikoresho byifashishwa mu gikoni.

Inzu iri kubakwa ikaba itaruzura, abubatsi barimo rwa gati, bamwe buriye ibikwa, ndetse n'ababahereza ibikoresho bari hasi yabo, amatafari amaze kuzamuka hakaba hagiye hasigaramo imyanya y'amadirishya.

Inzu ifite imbuga ntoya ikaba ari iy'ikerekezo. Imfuruka zayo hasize uturange tw'umweru ndetse iriho za mubazi, amatiyo akura amazi ku mabati y'imvura ayamanura mu buryo budateza umwuzure.

Imiturire myiza igaragazwa n'inzu zigezweho zifite ibikoresho byose kandi zujuje buri kimwe, iyi ifite inkingi eshatu ziri kugaragara mu ibaraza, ikaba izengurutswe n'utwuma, ifite igisenge cy'umukara.

Inzu nziza igezweho hanze yayo harijimye ariko mo imbere hari kwakamo amatara izengurutswe n'utwuma tw'umukara, ikaba ifite irange ry'umweru amadirishya yayo arafunguye.

Inzu nziza iyjanye n'ikerekezo igeretse ikaba iasa umweru ahantu hose, ifite inkingi zifata amabaraza yayo, kugira ngo usohokamo abe areba ahirengeye, ifite ubusitani imbere ndetse burimo n'imikindo.

Inyubako y'igorofa ndende, ikorerwamo ubucuruzi butandukanye, yaba ubwo kugurisha imyambaro n'ibindi bikoresho. Hanze yaryo haragaragara amasafuriya atondetse ku murongo.

Inyubako igezweho irimo isoko ry'imyenda ndetse n'ibindi bitandukanye. Abaturage ni urujya n'uruza bamwe baje kugura, harimo ndetse n'abaje kugurisha. hagati hateyemo imitaka itukura.

Iguriro rusange ririmo ibicuruzwa bitandukanye, ni rinini ufata akagare ukaritemberamo ugenda ushyiramo ibyo washimye, umukobwa wambaye inkweto ndetse n'ipantaro y'umukara umupira w'umweru ari kugenda agasunika.

Ni umusore uhagaze uhetse igikapu mu mugongo. Yambaye ingofero itukura umupira w'umweru. Inyuma ye hari inkweto zihateretse ikiganza ke k'ibumoso gifasha ku mupira uri mu iduka.

Ni inzu igurishirizwamo ibintu bitandukanye hakaba hahagazemo abantu batatu bari kurambagiza ibyo baza gutahana umwe yamabaye inkweto, umupira undi yambaye ibisa umukara bitari kugaragara.

Ikiganza kitagaragaza nyiracyo, gifashe agapfunyika mu ntoki kari mu gashashi. Ku meza hari utuntu tunyanyagiye, iriho mudasobwa iri kwaka bigaragara ko ikindi cy'iburyo gifashe kuri yo.

Ni iguriro ricuruza ibijyanye n'imyambaro uruhande rumwe rumanitseho imyenda irimo imipira naho ku meza hari inkweto zo mu bwoko bufunguye hagati hahagaze umugabo ndetse nundi uri imbere ye.

Inyubako nini igizwe n'imiryango ikorerwamo ubucuruzi butandukanye igiye igabanyije mu byiciro. Ahabanza hari ishusho y'ubururu, ahakurikira umutuku. Umugabo wambaye ishati y'umukara ari kugenda yinjira.

Inzu Nini ifite amagorofa menshi irimo imyenda hasi iri ku bishushamo bayambitse kugira ngo uyireba abashe kuyibengukwa, hejuru hakorerwamo ibindi bikorwa bitandukanye.

Ni abantu benshi batagaragara amasura yabo usibye umwe bamanitse amakarita hejuru y'imihondo haragaragara gusa ibiganza akaba ari ayifashishwa mu kwivuza.

Ikigaza kiriho inzara gisize kitagaragara nyiracyo, hari udupapuro turambitse ku meza dupanze mu buryo bw'umusaraba kikaba cyadukozeho ni dutandatu n'utundi turi inyuma yatwo.

Ikarita y'ubwisungane mu kwivuza. Ubu ni uburyo u Rwanda rwashyizeho bufasha abantu yaba abafite ubushobozi ndetse nabatabufite kwivuza bitabasabye amafaranga menshi kugira ngo hatazagira ubura ubuvuzi.

Urukuta rw'ubururu sima yo hasi hamwe hasize irangi ariko ahandi iri kugenda ivaho. Ikiganza kigaragara igice gito gifashe ikarita y'ubwisungane mu kwivuza mu ntoki, iriho ikirangantego.

Abaturage benshi bahagaze bari kureba uri kubaha imbwirwaruhame. Gusa inyuma yabo hari abicaye mu mutaka bitwikiriye izuba, Mu bahagaze hari uwambaye imyenda y'umuhondo ndetse n'iy'ubururu.

Iduka ry'ibiribwa, umuntu aracunga akagenewe guhitamo ugenda ushyiramo ibyo uri bugure. Mo mbere yambaye agapira k'umweru, ishashi iri mu ntoki. Akikijwe n'ibinyobwa ndetse n'ibiribwa.

Ni iduka rigaragaramo ibicuruzwa byinshi. Yaba ibyo kurya, ibyo kunywa, ndetse n'amavuta yo gutekesha. Hagati muri ryo hari umugabo uri guhitamo ibyo ajyana. Hari kandi umukobwa wambaye agapira k'umweru, uri gupakira.

Umukozi ukorera sosiyete yitwa vuba vuba, ari kugeza ku muguzi ibicuruzwa yashakaga kandi urabonako bishimye bombi , yaryohewe na serivise yahawe nziza kandi ikeye.

Mu iguriro ry'ibicuruzwa bitandukanye, hari umugabo uteruye icyuma mu ntoki, akaba yambaye umupira w'umukara, ndetse inyuma ye hari n'undi umeze atyo, hari urujya n'uruza rw'abantu baje guhaha.

Imigati ipanze mu tubati ,akaba ari myinshi cyane, ni ikiribwa gikorwa mu ifarine, akaba ari ifunguro abenshi bakunze gufata mu masaha ya mugitondo, uryifashisha ,ukaba wasigaho ibindi bintu kugirango urusheho kuryoherwa.

Ni iduka ryagutse ricuruza ibiribwa n'ibinyobwa byose biri ku murongo hagati mu kayira hari gutambukamo umugabo wambaye ibintu by'umukara, ku ruhande haragaragara umucuruzi.

Ahatangirwa serivise zitandukanye zabantu bingeri zose yaba abirabura ndetse nabazungu, umukobwa uri kumwenyura ufite imisatsi myinshi cyane akaba ari kurebana numugabo uri imbere ye utagararagara.

Icyapa kinini cyamamaza iguriro rusange, gicuruza ibintu bitandukanye. mubikiranga cyanditseho ngo simba. iruhande rwacyo haparitse imodoka itari kugaragara neza.

Mu iguriro rusange ricuruza ibintu byinshi ku murongo hapanzemo ibigurishwa ndetse hari ufite akantu mu ntoki agenda atoranya ibyo ashimye ngo aze kubyishyura ubundi abitware.

Mu iduka ryagutse ricuruza byinshi bitandukanye, akayira katwo urebye hirya harimo umuntu, mu mpande ye haragaragara amata yo mu gikombe y'ifu ndetse urundi ruhande ruriho ibiribwa bitandukanye.

Iguriro ry'ibicuruzwa bitandukanye biryoshye bitondetse neza ku murongo, hagiye harimo inkingi ziva hasi zigakora hejuru ku bikuta by'umweru ndetse n'amakaro ashashe hasi arakeye.

Utubati tw'ubururu dupanzemo ibinyobwa bitandukanye bidasembuye bikaba biri mu mashashi ibindi biteretse mu mikebe, harimo iby'umutuku ndetse n'iby'imikara.